Aba ni bamwe mu bakorerabushake bakorera ikigo kizwi mu rwanda nka Croix Roge, bafite ingobyi bagiye guterekaho umuntu ugiriye ikibazo mu muhanda mu rwo kugira ngo bamugeze kwa muganga avurwe byihuse.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima aha hakaba hari abahabwa ubuvuzi bwihutirwa aho babaha ibitanda baryamaho, bityo muganga isaha yose abakeneyereyeho akabasanga maze akabavura.

Iyi ni nyubako y'ivuriro aha naho batangira ubuvuzi bwihutirwa, hakaba hari imbangukiragutabara. Iyi mbangukiragutabara ihagaze imbere y'umuryango w'iri vuriro ikaba itegereje gutwara umurwayi imuvana kuri ibi bitaro imujyana ku bitaro bikuru.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ahantu ni ahatangirwa ubuvuzi bw'ibanze kandi bwihutirwa, harimo abaganga bambaye bipfutse umubiri wose, bigaragara ko uyu murwayi arwaye indwara y'icyorezo kandi yandura.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo abaganga bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ingofero z'ubururu, bakaba bambaye udupfukamunwa, aho bari mu cyumba kivurirwamo indembe mu buryo bwihutirwa mu rwego rwo kugira ngo bazigarurire ubuzima.

Iki ni icyumba kivurirwamo abantu mu buryo bw'umwihariko igihe bibaye ngombwa, ni icyumba kiri mu nyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hahagazemo umudamu umwe, abagabo babiri ndetse n'abasirikare babiri.

Uyu ni umupolisi, akaba ari kwigisha abaturage uko bashobora gukoresha kizimyamwoto, bazimya umuriro igihe haba habayeho inkongi y'umuriro, uburyo bwo kwirinda ko inyubako cyangwa ahandi hantu hashya, hagakongo kagashira.

Iyi ni inyubako y'ivuriro harimo abaganga bambaye bikwije umubiri wose, bambaye amapantaro amakoti ndetse n'ingofero, udupfukamunwa n'amarineti, bigaragara ko bari kwirinda indwara nk'iy'icyorezo bakaba bari gusunika umusore ufite ubumuga mu kagare.

Uyu ni umwana muto cyane agiriye impanuka mu muhanda hakaba hari hari umugabo ukorera Croix rouge ahise amuha ubuvuzi bw'ibanze maze amwihutana ku kigonderabuzima hakaba hari abantu bigaragara ko bamugiriye impuhwe kuko biteye ubwoba.

Aba ni abaganga bambaye impuzankano z'umweru, bakaba bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku mwari wikubise hasi, aho bari kumwongerera umwuka bamurinda icyugazi, hari abantu bari inyuma baje kureba uko uyu mwari amerewe.

Aba ni abakozi ba Croix Rouge nka bamwe batanga ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'ubutabazi bwihutirwa, bakaba bari mu mahugurwa, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, bakaba bari kugenda bababwira amahugurwa mashya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako irimwo ibitanda byiza cyane abarwayi baryamaho mu gihe bari kubasuzuma, hakaba ibikoresho byose abaganga bifashisha ndetse n'amamashini, hakaba n'utubati babikamo ibyo bikoresho.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima bakaba babahaye utubati twifashishwa hashyirwaho imiti muganga ari gukoresha avura umurwayi, iyi nyubako ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isize n'uturange tw'umuhondo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo umurwayi uri guhabwa ubuvuzi bwihutirwa, harimo abaganga babiri b'inzobere ndetse n'umuforomo uri kubarebera, aha hakaba hari icyuma kibafasha gusuzuma ari cyo bari kwifashisha.

Aha ni mu nyubako y'ikigonderabuzima, hari akana kicaye ku gitanda cy'abarwayi gafite telefone igendanwa mu ntoki, kakabaha kari guseka, mama wako ari kukitegereza nawe bikamushimisha nubwo bari kwa muganga.

Iyi ni inyubako irimo inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, zikaba zigenda zisobanurira abaturage uburyo bashobora kwirinda uburwayi ndetse bamwe bakanabapima. Abo basanganye uburwayi bakabavura kandi bakitabwaho.

Aha ni mu kigo nderabuzima rwagati, hari ababyeyi bicaye hasi ndetse n'abandi bahagaze hakaba hari umuganga w'umusore uri kubaha amafishi anabasobanurira ko agiye kubafasha bakabasha kubona serivise bakeneye.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima iyi nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho. Ifite inyubako nyinshi. Hari ibyapa bigaragaza aho ushobora kugana bitewe n'aho ugiye kwivuriza bityo ukagerayo utavunitse.

Uyu ni umubyeyi wicaye ku gitanda mu nyubako y'ikigo nderabuzima, mo imbere ateruye akana ke gato bigaragara ko yabyariye muri iri vuriro kaba ari kwitabwaho mu rwego rwo kugira ngo amere neza.

Abantu bari mu kigo nderabuzima bakaba baje kwivuza, harimo umumama urembye wubitse umutwe mu biganza hakaba n'umuzungu, uri kugenda usobanurira mugenzi we bicaranye ibintu bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba hari abantu benshi cyane, bari kuyifotoreza imbere, bagaragaza yuko ibi bitaro byubatswe mu rwego kugira ngo ubuzima bwa muntu bubonere ubuvuzi ku gihe kandi ntihagire umurwayi urembera mu rugo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo abaganga babiri bombi bambaye impuzankano y'umweru, umudamu urimo yambaye furari y'umukara mu ijosi. Bose bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'umuti.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'uturindantoki, ari gukora kw'imashini yifashishwa hasuzumwa uburwayi umurwayi yaba afite. Imbere ye hakaba hari igikombe cy'umuhondo ndetse n'agacupa k'amazi.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima. Ikaba irimo abantu baje kwivuza bagiye batandukanye, imbere yabo hakaba hari umuforomo uri kubuzuriza amafishi, aho batambuka bakamuha imyirondoro. Maze akabafasha bagategereza bakajya mu isuzumiro.

Aba ni abantu benshi cyane bari mu muhanda wa kaburimbo. Bari kugenda mu buryo bwo kugendera hamwe ku mirongo. Imbere yabo hakaba hari abasore bafite icyapa cyanditseho imyaka mirongo itatu yo kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane.

Iyi ni inyubako y'ivuriro iyi nyubako ikaba ifite inkuta nziza cyane. Harimo ibitanda bishashe ho biryamaho abarwayi bavurwa mu gihe bari kwitabwaho badataha. Hejuru ya buri gitandaro hariho inzitiramibu. Ku ruhande gato hari akana kicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo busanzwe, ifite ibice bibiri mu gice kimwe hagaragara ko havurirwa ndetse no mu kindi haravurirwa mo hagati harimo abantu baje gushaka serivisi muri iri vuriro.

Aba ni abarwayi bari mu kigo nderabuzima, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu, abana bato, abantu bakuru ndetse bakaba bicaye mu nyubako y'ivuriro, aho bategereje ngo bahabwe ubufasha baje bakeneye.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba harimo umubyeyi wambaye ibitenge ndetse n'umumama w'umuforomokazi wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari gutegura igikoresho cye ngo asuzume uyu umubyeyi bose barishimye.

Iyi ni nyubako y'ivuriro, iri vuriro riteyemo imikindo myiza cyane, ryubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari amabendera, iry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iry'Umuryango wunze Ubumwe, hakaba hari icyapa kigaragaza yuko ibi ari ibitaro bya Gatunda.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubugenzuzi bw'imiti ndetse n'ibizami abarwayi baba batanze, hakaba harimo amacupa agaragara nk'aho arimo imiti ndetse hakaba hari n'amafishi n'amakayi bandikamo ibyo babonye.

Aha ni ahasuzumirwa abarwayi ndetse bakabagenera n'imiti bahabwa, hakaba hari agakarito karimo uturindantoki ndetse n'agasanduku karimo ibyuma bifashisha mu gihe bari gusuzuma abarwayi.

Aba ni abaganga bafite agacupa k'umuti mu ntoki, bakaba bari aho imiti isuzumirwa. Aho bagenda basuzuma ubuziranenge bwayo bakareba niba koko icyo yagenewe aricyo ikora niba itagira ingaruka ku murwayi.

Aha ni aho basuzumira ibizami bigiye bitandukanye, hakaba harimo abana bigaragara nkaho ari abanyeshuri ndetse hakaba harimo n'umwe wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari umwarimu uri kugenda ubasobanurira.

Uyu ni umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, akaba ari gusuzuma umwana muto cyane w'umwirabura, yamushyize urushinge mu kiganza, ari kumutera umuti kandi ari kumuterera umuti mu isuzumiro.

Uyu ni umuganga wambaye impuzankano y'umweru yambaye n'amarinete, akaba yambaye uturindantoki tw'ubururu ari guseka cyane akaba ari aho basuzumira indwara aho baba bafite ibizami maze bakabisuzuma bagatanga ibisubizo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro aha naho abaganga basuzumira indwara zigiye zitandukanye. Harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umweru yicaye ku ntebe y'umukara ari kureba muri mudasobwa imuri imbere.

Aha ni ahakorerwa ubugenzuzi bw'imiti ndetse bakasuzumira n'uburwayi, abarwayi bafite, hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru ariko utari kugaragara mu maso, yambaye uturindantoki tw'ubururu, akaba afite agacupa karimo ikizami.

Iyi ni igikoresho kifashishwa aho basuzumira indwara zigiye zitandukanye ndetse bakagenzura n'imiti. Iki ikirahure rero bagishyiramo bimwe mu bizame bamaze gupima bityo bakamenya aho bigiye biteretse.

Aha ni mu kigo cy'amashuri abanza, hakaba harimo abakorerabushake bari gusobanurira abana ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko bw'umwana, aho bababwira ko bagomba kujya bagerageza kubaganiriza mu rwego rwo kugira ngo ubwonko bwabo bwaguke.

Izi ni zimwe mu nzobere zahuguriwe ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko bw'abana, bose bambaye impuzankano z'umweru, bakaba bateruye akana kamaze kuvuka.

Aba ni ababyeyi bakaba bari kumwe n'umwana wabo, bari kumwereka amashusho muri telefone igendanwa, umwana nawe akishima. Ibi babikora mu rwego kugira ngo bakangure ubwonko bwe, bityo abe muzima kandi akore neza.

Aba ni abarwayi bicaye mu kigo nderabuzima. Bakaba bagiye gushaka serivisi z'ubuzima, harimo abamama bahetse abana, bakaba bambaye n'udupfukamunwa bose. Aho baje kwivuza uburwayi bugiye butandukanye.

Aba ni abamama bateraniye ahantu hamwe, bose bambaye imipira y'ubururu kandi bari konsa abana babo. Ni byiza konsa umwana kuko bituma akurana ubwenge ndetse n'ubushishozi, mu bintu byose.

Uyu ni umubyeyi uryamye ku gitanda cyo mu kigonderabuzima. Akaba yaryamishijeho umwana we mu rwego rwo kugira imikorere ndetse n'ibyiyumviro by'umwana we, bizamuke azakure ari umwana ufite mu bwonko hatekereza.

Aba ni abakozi bakorera ikigo cy'igihugu gitanga serivisi z'ubutabazi bw'ibanze kizwi nka Croi Ruge, bateruye umusore ugize impanuka mu muhanda, bagiye kumushyira mu mbangukiragutabara imujyane ku ivuriro yitabweho.

Uyu ni umwari mwiza cyane yambaye ishati y'amamoboko maremare afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gusobanurira ababyeyi ndetse n'abana bari aho uko wakwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere yabwo.

Aba ni abantu bambaye imyenda isa bambaye imipira ya oranje ndetse bafite n'imitaka ya oranje irimo ibara ry'umweru, aho bari gushishikariza abantu kwirinda no gusigasira ubuzima bwo mu mutwe, aho bigaragara ko bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga.

Aha ni mu nyubako y'ikigonderabuzima mo imbere, hakaba hasize irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru, hamanitsemo ibipapuro bigaragaza uko bakora. Harimo umubyeyi uri kuganira na muganga. Muganga ari kumusobanurira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima harimo abantu bayicayemo ndetse hakaba harimo n'umugabo uri kugenda ubasobanurira ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange bityo akabasobanurira ko bagomba kujya bisuzuma.

Aba ni abantu bateraniye imbere y'inyubako y'ikigo nderabuzima, harimo abayobozi abaturage ndetse n'abaganga, hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu bari gufata ifoto, nyuma yo gusobanurira abantu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima hakaba harimo abantu baje mu mahugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, uyu mumama afite indangururamajwi akaba ari kubabwira, na bo bafite udutabo imbere ya buri muntu, hari icupa ry'amazi.

Uyu ni umwari ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, agasobanura y'uko Isange ifasha abantu bahuye n'ihohoterwa.

Iyi ni imbaga nyamwinshi y'abantu hakaba harimo umusore wambaye agapira k'umukara n'isaha ku kuboko, afite icyapa mu ntoki imbere ye hahagaze undi musore ufite indangururamajwi mu ntoki aho ari kugenda abasomera ibyanditse kuri icyo cyapa.

Aha hari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba hari udukarito turimo Ga, hakaba hari agasanduku kajugunywamo imyanda ndetse n'ibindi bikoresho umuganga ashobora kwifashi kugira avure umurwayi.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti, hakaba harimo imiti igiye itandukanye, hari iri mu dukarito, hakaba iri mu ducupa ndetse hari n'indi iri mu bikarito binini, iyi miti yose ikaba yifashishwa mu kuvura abantu bafite uburwayi.

Iyi ni inyubako ikaba irimo amoko y'imiti agiye atandukanye, hari iri mu makarito ndetse n'iri mu ducupa, iyi miti ipanze mu mayetajeri agiye atondetse inshuro zirenze enye cyangwa eshanu, iyi miti yose ikaba ivura.

Iyi ni inyubako irimo imiti, ikaba irimo amoko agiye atandukanye apanze mu ma etajeri, hari ari mu ducupa ndetse n'ari mu dukarito, iyi miti yose ikaba yifashishwa mu buryo bukwiye kandi ikavura.

Inyubako bacururizamo imiti, hari umuntu uri gutambukamo ndetse harimo n'amoko y'imiti igiye itandukanye. Imbere yaho hari imbuga isashemo amapave ashaje. Iyi nyubako ifite irangi ry'umuhondo, hakaba hari urugo rufite urugi rw'ibyuma.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, harimo amayetajeri arimo imiti, imwe iri mu ducupa indi iri mu dukarito, iyi miti yose iravura kandi iba ifite uburwayi igomba kuvura.

Iyi ni inyubako irimo imiti igiye itandukanye ivura amatungo, hakaba harimo ivura inka ivura ihene ndetse n'ivura inguru, ifunze mu makarito agiye atandukanye kandi irifashishwa mu kuvura amatungo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari guhabwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima, harimo umubyeyi uteruye mwana ndetse bose bafite udutabo babahaye bakaba bari kudusoma kugira ngo biyungukire ubumenyi.

Aha ni ahabereye amahugurwa agamije gukangurira abantu kurinda no gusigasira amagara yabo bityo bakagira ubuzima bwiza, iri huriro ryiganjemo abakiri bato nk'urubyiruko aho hari uri imbere uri kubaririmbira indirimbo.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye mu muhanda, higanjemo abo mu nzego z'umutekano, bakaba bafite icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'icya polisi y'u Rwanda, aho bagaragaza ko ari ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi bibiri na cumi n'icyenda. Gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge, ni inshingano zanjye.

Ubu ni ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuvuzi bwabereye mu nyubako ikorerwamo imikino, bakaba bari gusuzuma abaturage umuvuduko w'amaso ni nyuma y'igikorwa cya siporo maze bagasuzuma buri wese uko ubuzima bwe buhagaze.

Iki ni igikorwa rusange kigamije ubukangurambaga, hakaba imbere hari gutambuka abapolisi, aba ni apolisi b'igihugu cy'u Rwanda, inyuma yabo hakaba hari abantu bafashe icyapa ndetse n'abandi aho bari kugenda batanga ubukangurambaga.

Aba ni abantu bari mu mahugurwa, aya mahugurwa akaba ari kuvuga ku bijyanye n'ubuzima, bose barakurikiye kuko hari umuganga uri kubasobanurira, urabona ko nta n'umwe urangaye kandi bose bafite amatsiko yo kubimenya.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko bakiri bato bameze nk'aho ari abanyeshuri, harimo mugenzi wabo ufashe indangururamajwi, akaba ari kugenda abaha amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima rusange.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, aho bashishikariza abantu kugira ubuzima bwiza ndetse bakajya birinda ibiyobyabwenge, bakavuga bati ngira nkugire ubuzima bwawe ni ubwanjye.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, iyi miti ikaba ifungiye mu bintu bigiye bitandukanye, hari ari mu tubase, ari ku nkoko ndetse n'ari mu mifuka. Iyi miti yose ikaba yifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye

Aya ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye, akaba ari mu dusorori dutandukanye, utunini ndetse n'uduto, hakaba hari n'ikiganza kirimo tumwe mu two bari kugenzura ngo barebe niba iyi miti koko yujuje ubuziranenge.

Uyu ni umuganga uri kuvura umurwayi wahuye n'ikibazo cyo kubyimba ukuguru, ukuguru kwe kw'ibumoso by'umwihariko ku kirenge harabyimbye, akaba ari kuvurwa n'umuvuzi wa gakondo, aho ari kugenda amushyiraho umuti wa gakondo.

Uyu ni mama yicaye ku gasambi ndetse yifubitse n'igitenge ku maguru, yambaye agapira k'ubururu, akaba afite amasarologi atandukanye imbere ye ndetse n'agacupa karimo ibintu by'umuhondo. Uyu mumama akaba ari gutegura umuti gakondo.

Aha ni ahatunganyirizwa imiti gakondo ikomoka ku bimera, hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanya nk'utwungo, udusorori dukoze mu ibumba, agasekuru, aho iyi miti bayitunganya ikavamo umuti uvura kandi wizewe.

Iki ni ikimera cyiza cyane, gifite uturabyo tw'umweru ndetse n'amababi y'icyatsi kibisi, hakaba n'andi yahungukiye hasi yamaze kuma, iki kimera kifashishwa hategurwamo umuti gakondo, kikaba kiri mu gipangu gikorotiriye kandi cyubatse neza.

Abakora imiti gakondo nabo, basigaye bifashisha bimwe mu bikoresho. Bityo kugira ngo imiti bakora ibe itunganye kandi yujuje ubuziranenge. Aha turi kubona ameza ariho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Iki ni ikimera kizwi nk'inyarabasanyi, kikaba kivamo umuti gakondo kandi uvura indwara zigiye zitandukanye. Ni ikimera cy'icyatsi kibisi, kikaba gifite amababi ajya kuba maremare, hariho uturabyo tw'umweru ndetse n'umuhondo.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, ikaba isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, mu imbere hakaba harimo abantu baje gushaka serivisi kuri iki kigo nderabuzima, hejuru hari akapa kanditseho kati girubuzima.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, ikaba isize amarange y'ubururu, isakaje amabati atukura, imbere yayo hari kandagira ukarabe hakaba harimo abantu babiri bigaragara ko ari abaje gushaka serivisi.

Aha ni mu nyubako y'ikigo nderabuzima hakaba harimo icyapa kigaragaza izina ry'icyo kigo nderabuzima, serivisi batanga n'igihe bazitangira, hakaba harimo ubusitani bwiza cyane burimo pasiparumu ndetse n'imikindo myiza itanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako y'ikigonderabuzima. Iyi nyubako isize irangi ry'ubururu, ikaba isakaje amabati atukura, imbere yaho gato hari icyapa hakaba hari abantu baje gusaba serivisi hano muri iyi nyubako.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima hakaba hari imbaga y'abantu baje kwihera ijisho, harimo abazungu ndetse n'abirabura, iyi nyubako isize amarange y'ubururu ndetse isakaje n'amabati y'ubururu hakaba hariho icyapa kigira kiti gira ubuzima.

Aha ni mu nyubako y'ikigonderabuzima. Bakaba batanga serivisi zigiye zitandukanye zirimo kuvura abantu, kubapima indwara ndetse n'izindi baba bakeneye mu gihe babaganye. Harimo udukarito turimo uturindantoki, hakaba inzitiramibu ndetse n'imiti.

Abana ni abaganga bateraniye ahantu hamwe aha ni mu nyubako y'ikigo nderabuzima, bose bambaye impuzankano z'ubururu udupfukatoki tw'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu bakaba bafite imisatsi myiza, bari guhugurana aho buri wese ari gutanga igitekerezo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, harimo umumama ndetse imbere yabo hari umupapa, biragaragara ko arimo ubabwira uko bashobora kwirinda uburwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Aya ni amakarito y'imiti, ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo imiti y'amoko agiye atandukanye, harimo iy'amatungo ndetse n'iy'abantu, hari umuti uri mu agakarito gashushanyijeho amafoto y'abantu ndetse n'undi ushushanyijeho inka.

Aya ni amavuriro acuruzwamo imiti, akaba ari amavuriro agiye atandukanye kandi akaba arimo utubati turimo imiti igiye itandukanye kandi ivura indwara zinyuranye.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, iyi nyubako isize irange ry'ubururu ku nkuta, ikaba isakaje amabati y'ubururu, hari akapa kometseho kagira gati "girubuzima."